Turi kumwe ni ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima bugoboka umuryango wawe mu gihe wahuye n'impanuka. Kanda akanyenyeri gatanu, gatatu, rimwe, urwego, bitarenze iminsi itatu turakwishyura.

Tugeze mu gihe cy'imvura. Imvura nyinshi, imyuzure n'ibindi biza, byakwangiza inyubako yawe bikagutera ibihombo, irinde sinamenye ugure ubwishingizi.

Ohereza amafaranga kuri, ku buryo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa mu kohereza amafaranga, buba bwihuse kandi wabukora igihe cyose.

Igaragazwa ry'amafaranga, ibihumbi icumi n'ijana na mirongo icyenda y'u Rwanda uburyo yakoreshejwe buragaragazwa, ushobora gukoresha wishyura.

Umugabo w'umwirabura wambaye ishati y'ubururu, arimo yereka undi w'umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ikote ry'umukara. Amwerekera muri murandasi.

Iduka ry'ubucuruzi ririmo ibicuruzwa bitandukanye, higanjemo amashakose ndetse n'imyambaro ndetse hakaba harimo n'igishushanyo kimwe cyambikwa imyenda, aho ushobora kureba umwenda cyambaye wawukunda ukaba wawugura.

Umudamu ucuruza imyenda afite terefone mu ntoki, arahagaze ni iduka rye, hakurya hari akabugenewe kamanukaho imyenda kamanitseho imyenda myinshi icuruzwa.

Umudamu wambaye umupira w'umuhondo ndetse afite n'isakoshi ku rutugu rwe, uruhande rw'ibumoso, akaba yari agiye kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho yari ari mu iduka yaraje kugura bimwe mu byo ashaka kugura, akaba yari kubwirwa n'ucuruza muri iri soko, uburyo bwo kwishyuramo.

Iduka ricuruza imyenda yab'amama, harimo umumama ahagaze imbere yerekana imideli bakora, arimo aseka.

Imodoka y'ikamyo isa umweru n'mabara make y'umukara, imbere hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku ateruye icyapa cyanditseho Akagera.

imodoka yo mu bwoko bwa KIA y'ivature ifite ibara ry'umweru, amapine y'umukara ndetse n'amatara y'umutuku ikaba iboneka kuri kigali's cars market

Abagabo babiri bateruye icyapa cyanditseho Akagera, hanze inyuguti AGB, umwe afite agakapu gasa umutuku afashe.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka y'umweru, umwe yambaye ingofero y'umukara n'umweru, undi yambaye ipantaro y'umukara.

Abagabo bageze muri bane n'umumama umwe, bicaye barimo baganira, umwe wambaye umutuku asa n'aho ari we uyoboye.

Bibiri na cumi n'umunani isuzuki igurishwa angana na miliyoni cumi n'umuani isa umweru amabara y'umukara makeya ihagaze.

Imodoka nziza y'umukara yakozwe mu bihumbi bibiri na cumi, ikaba igurishwa ahageze muri miliyoni cumi n'ebyiri z'amafaranga.

Umuntu wicaye uri kubara amafaranga menshi amwe yayarangije andi ari mu ntoki, hirya ye hakaba hari igikoresho ari kwifashisha kimworohereza kubara amafaranga mu buryo bworoshye.

Amafaranga ibihumbi bitanu, ikaba ari inoti nkuru ikoreshwa mu Rwanda, iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru mukeya iriho igishushanyo cya komvesheni senta ndetse n'ikirango cy'ingagi.

Umugore uteruye jaga irimo amata, yegereye ameza y'umweru ateretseho ijage irimo ubusa, n'umubirikira usa ubururu kuruhande.

Umu mama wambaye imyenda y'igitenge, uteruye akarahure, kuzuyemo icyo kunywa, amata, ndetse n'igiyiko.

Ikaze, ahantu baza kwiyakirira abantu, cyane cyane bibanze ku bintu biva ku mata. Ibe imigati, ibe amandazi.

Umugabo uhagaze ari kureba imbere ahateretse ibikonjesha gisa umweru, yegereye intebe zegamirwa y'ubururu iri mu ruhande rwe.

Abasore babiri n'umukobwa umwe, bicaye bazengurutse ameza ateretseho amajage abiri yuzuye amata buri wese afite igikombe cye arimo anywa.

Ohereza amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga. Ushobora kohereza mu bihugu bitandukanye nka Zambiya, ukoresheje itumanaho ryoroshye.

Itumanaho mu buryo bwo guhamagara no guhamagarwa, berekana umugabo wicaye wambaye umupira w'umweru, inkweto z'umweru, yerekana uburyo rikoreshwamo.

Igipapuro kigaragaza uburyo bwo kwishyuraho mu buryo bukoranye ikoranabuhanga. Aho kiguha amahitamo yo kwishyura mu buryo bukoroheye, aho ushobora gukoresha Mobile money, Airtel money, Debet card cyangwa se Bank account, mu buryo ushobora guhitamo bukoroheye wakwishyuramo.

Urakaza neza muri momo, ohereza amafaranga, ishyura, gura amayinite, wishyure ukoresheje momo, genzura.

Zigamira itangira ry'amashuri, tangira umwaka w'amashuri mu mahoro, wizigamira. Uburyo bugaragazwa bwo kwizigamira kugira ngo wizigamirire amashuri yawe utazahura n'ibibazo mu gihe cy'imyigire.

Icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro. Urupapuro rugaragaza ko umuntu yishyuye cyangwa nta deni afite mu kigo gishinzwe...

Igipapuro k'inyemezabwishyu gitangwa n'ikigo cyimisoro n'amahoro, kikaba kigaragaza igiciro cyamafaranga iki kintu cyatanzweho nicyo gikorwa cyakozwe.

Ikigero cy'ivunjwa, amadolari y'Abanyamerika ushobora kuyagura angana n'igihumbi magana abiri mirongo icyenda n'icyenda n'ibice mirongo itanu n'icyenda, ukayagurisha angana n'igihumbi magana atatu makumyabiri n'atanu n'ibice mirongo itanu n'umunani.

Ibiganza bisa n'iby'umugabo bifashe amafaranga y'amadorari. Kuruhande rw'iburyo hagaragara ibiganza bisa n'iby'umugore uri kutanga...

Amafaranga magana abiri, banki ya Kongo, aragaragazwaho umugore n'umugabo barimo bahinga, umugore..

Umuntu urimo abara amafaranga menshi, hagaragara igice cy'intoki ndetse n'igice gito cy'igihimba cye, inyuma ye hicaye abagabo babiri barimo kureba muri......

Amafaranga umuntu ayafashe mu ntoki ahagaze aho bavunjira amanyamahanga, amanyarwanda hahurira abantu batandukanye.

Ibiro bavunjiramo ku masaha y'umugoroba hagaragara mu kirahure televiziyo imurika ibiciro uburyo bihinduranwa hicaye umuntu.

Umugabo ufite ibikapu bibiri, icy'umutuku n'icy'umukara, arimo yaka ubufasha mugihe arimo akora urugendo yakirwa n'undi wambaye ishati y'ubururu.

Inzu isize amarangi y'umutuku n'umweru, ikoreshwamo ubucuruzi bwo kohereza amafaranga mu bihugu bitandukanye, mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Ikaze ku biro byo kuvunja ahantu bavunjira amafaranga y'ubwoko butandukanye amanyamahanga ndetse bakakuvunjira mu buryo wowe uyashakamo.

Inzu irimo intebe eshatu z'aho abantu bicara, ku ruhande hari izindi ziteguye z'aho barira, ziri mu nzu iteye irangi ry'umweru n'amakaro.

Inzu yubakitse neza irimo ubwitonzi bwinshi hateretseho amatara impande ya televiziyo, bareberamo munsi yaho hariho akabati gashobora kubikwamo utuntu dutandukanye.

Imeza ikozwe mu mbaho ndetse n'intebe zayo zikaba zikozwe mu mbaho, akaba ari meza yagenewe gushyirwa mu ruganiriro aho abantu barira.

Abamotari bari kumanuka mu muhanda w'amabuye, uw'imbere atagaragara neza wegeranye n'inzu zo ku mihanda zisa n'izikorerwamo ubucuruzi budateye imbere cyane.

Inyubako yo mu bwoko bwa etaje, aho muri iyo nyubako hasi hacuruzwamo ibikorwa by'ubucuruzi, nk'intebe zo mu nzu, hari n'icyapa kiranga ibyo bicuruzwa cyitwa Kwizerwa ati.

Icyumba cy'uruganiriro kiza kirimo intebe nziza z'amadive z'umweru, akameza gatoya keza ndetse hakuryaho hari intebe z'umutuku, ndetse imbere yaho hakaba hari akabati keza kajyamo televiziyo ndetse n'imitako myiza.

Inyubako nini iri mu bwoko bwa etage, igaragara neza iri kwakaho amatara ari mu bwoko bumwe, akaba ari inyubako ya hoteli yitwa sete famiye hoteli.

Inzu ifite amabara y'umutuku n'umweru yubakishijwe ibirahuri byinshi cyane ndetse ku ruhande hari urukuta rw'umweru, iragaragazwa ko imbere y'aho binjirira.

Ibiti biri mu busitani bwiza, yegeranye n'inzu y'imbaho, harimo hagati akayira k'abanyamaguru kajya ku nzu baruhukiramo.

Inzu igaragaza ahakiririrwa ahantu, hari ameza ateretseho uburahure, ubutambaro abantu bakoresha bihanagura, imbere hari n'abicaye batangiye kwakira.

Etaje nini cyane, yaba mu bugari cyangwa mu buhagarike. Imbere yayo hashinze ibiti byinshi byiza, biyizengurutse mu mpande zose ziyigize.

Inzu nziza ifite amabara atandukanye: umuhondo, ifite aho bahagarara, inzu igeretse mu byiciro bibiri. Yubatse mu buryo bwa bushuri.

Inzu yerekana hanze irimo intebe bicaraho ebyiri ziri kurebana n'ameza abiri atondetse ku murongo umwe, ay'umweru ku ruhande rwegereye intebe.

Etaje ndende yegeranye mu byiciro bibiri, hanze yayo harimo amapoto ageze muri atandatu azamuye y'umweru yose, hari ubusitani bwiza.

Ubusitani mu mpande ebyiri, hagati hacamo akayira k'abanyamaguru karimo amabara y'umukara n'umweru, imbere hateretse intebe nziza ziri ahatwikiriye zifite amabara y'umutuku.

Inzu iteye amabara asa neza y'umweru, ubururu, nta muntu uyirimo, gusa agaragaza ubwishingizi runaka butangwa n'icyo kigo.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, ari muri banki, muri rimwe, ari kwitabwaho, ku ruhande rwe hari umugore wambaye imyenda ikoze mu bitenge, na we uri kwitabwaho muri kabiri.

Abantu bane bicaye kuri tabure imwe, babiri batanga serivisi, abandi bakira bicaye ku ntebe zegamirwa.

Icyumba kiberamo inama y'ikigo cy'ubwishingizi kikaba ari ikigo cyitwa sanlam, aha ni ahabera inama y'icyo kigo mu cyumba cyagenewe kuberamo inama.

Inzu nini, ifite amagorofa ageze muri ane, imbere yubatse mu buryo bukoreshejwe ibirahuri, inzu ikaba ikoreshwa mu gutanga ubwishingizi.

Menya amategeko n'amabwiriza mbere yuko usinyira inguzanyo, ngibi ibyo ukeneye urupapuro wuzurizaho kuvuga niba ufite cyangwa warapfakaye.

Urupapuro rwa banki, rwerekana amasezerano mukorana wuzuzamo imyirondoro yawe, ukanasinya kugira ngo wemeze imikoranire na banki mu cyiciro runaka.

Abantu bahuriye hamwe munsi yigiti hari mu gahanda k'igitaka, aho umugabo arimo ahereza umu mama uri imbere ye, wambaye igitambaro cy'umweru yegenye.

Abantu bahuriye hamwe, bahagaze imbere bambaye imipira bose isa ibara rimwe ry'icyatsi. Hajyaho udupfukamunwa kuri buri wese.

Ameza yambitswe udutambaro dusa ibara ry'icyatsi cyerurutse, hicayeho abantu b'ingeri zitandukanye, mu byiciro bigeze muri bitanu.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ishushanyijeho telefone iri kugaragazaho akanyenyeri maganinani urwego hari imibare yanditswe impande hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'andi ari mu ururimi rw'ikinyarwanda makeya na nimero za telefoni.

Umugabo ufite indobo y'ibiribwa by'amasambusa, aho afite ishashi yambaye mu kiganza mu buryo bw'isuku, aho ari kuzicuruza, aho azengurutswe n'abantu benshi bashaka kugura kuri ibyo bicuruzwa bye.

Etaje igaragazwaho ibice bibiri byo hejuru gusa, ku ruhande rw'iburyo harasa n'urukuta ruzamuye rw'ibirahure gusa hafunguyemo amadirishya abiri.

Iduka ricuruza imyenda ryicayemo abantu bageze kuri batatu, babiri bicaye ku ntebe undi yicaye aho bacururiza imyenda. Yambaye ingofero.

Abamama babiri n'umukecuru umwe ufite imbago, iteruye agafuka arimo ahaha imineke yuzuye ibase nini, undi afite akabaso gato gasa ubururu, karimo imineke.

Isoko ry'ibicuruzwa byinshi bitandukanye, higanjemo ibikapu, amakabutura amanitse, imyenda, hari umudamu ndetse n'umugabo bari kureba bimwe muri ibyo bicuruzwa.

Ni umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku, yitwikiriyeho umupira w'ibara umukara n'umweru, yegeranye n'umugabo wambaye ingofero y'ubururu.

Umumama ukenyeye agakapu k'umukara yambaye imyenda ikoze mu bitenge, arimo aca aho bahahira mu isoko areba impande.

Isoko ryuzuyemo abakiriya ririmo abana bahagaze, umumama wifashe mugongo usa n'unaniwe impande ye hicaye uwitondeye.

Isoko ririmo inyanya, imineke, imbere hicaye umu mama wambaye imyenda isa ibara ry'umweru, icyatsi.

Imyenda y'abagore, imanitse, idoze mu buryo busanzwe, butakorewe mu ruganda, hari agatebe, k'umweru.

Umugore ukenyeye igitenge, ateruye akabase gatoya kuzuyemo inyanya nyinshi, mu gasoko gato gakorera ahantu h'igitaka, hari n'abandi bacuruzi inyuma ye bari kugurisha.

Isoko ry'ibiribwa ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye. aho muri byo harimo inyanya, karoti, pavuro, inoryi aho ryahuriwemo n'ingeri nyinshi zitandukanye baje gushaka ibiribwa.

Isoko rihuriyemo imbaga nyinshi, aho harimo abaje guhaha ndetse n'abacururizamo, higanjemo ibicuruzwa birimo imboga z'ubwoko butandukanye nka karoti, intoryi, pavuuo ndetse n'ibindi byinshi.

Moto yicayeho abantu babiri, iri mu muhanda wegeranye n'ahari ibicuruzwa bitandukanye, iduka ryanditseho Ishema ni ryo umuntu ahagazeho munsi.

Isoko ricururizwamo imboga nyinshi, aho bigaragara ko hari imboga z'ubwoko bwinshi zitandukanye, muri ubwo bwoko hakaba harimo karoti, pinari, ibitunguru n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umuntu ateruye telefone ye arebamo aho agiye kwinjiramo muri ibyo ashaka gukora, yambaye ipantaro ifite amabara y'icyatsi, agakapu ateruye gasa umukara.

Inzu isize amarangi y'umuhondo n'umukara. Ikaba ari yo kigo cy'itumanaho gikomeye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika.

Umugabo wiyogoshe umusatsi we wose, wambaye ikote ry'umukara, arimo yitaba agaterefone gatoya, iruhande rwe hahagaze.

Akazu gato cyane gasize ibara ryiganje ry'umuhondo, harimo imbere umukobwa wubitse umutwe asa n'ureba muri telefone yiwe nawe yambaye umupira usa umuhondo.

Umugabo ukora muburyo bwo gutwara ibintu abigeza kubantu, hitwa vuba vuba, yambaye ipantaro y'ubururu ahagaze mu muhanda wamabuye menshi.

Umukobwa urimo ufungura ibyo yahashye kur rubuga rwa vuba vuba, yambaye umupira usa icyatsi, arimo aseka.

Haha na Kigure akadomo Rwanda. Gura ibicuruzwa bitandukanye ku bacuruzi bacururiza impande n'impande, ku biciro utasanga ahandi. Tubikugezaho nta kiguzi utanze.

Urubuga rwo guhahiraho rwitwa ticket.com, akaba ari urubuga rwo guhahiraho mu buryo bw'ikoranabuhanga, bitagusabye kuva mu rugo, cyangwa se bitagusabye guhaguruka aho uri, aho ushobora guhahira ukoresheje uru rubuga rwitwa ticket.com

Ninde muntu ukeka ko ari umukapo mu byo akora, uburyo bukoreshwa mu kwamamaza imirire muri ibi ngibi, amafriite...

Ngiki icyo miliyoni irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda cyakugurira i Kigali: Inzu ihagaze agaciro ka miliyoni mirongo irindwi, ni yo irimo igaragazwa.

Amazu y'i Kigali akodeshwa arerekanwa n'umunyamahanga w'umuzungu, wambaye agapfukamunwa n'ingofero ikoreshwa ahantu hari kubakwa mu buryo bw'ubwirinzi.

Inyubako nini iri mu bwoko bwa aparitema iherereye kibagabaga mu mujyi wa Kigali, akaba ari inyubako igurishwa, amadolari y'Amerika ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu.

Inyubako nziza iri mu bwoko bwa cadasiteri, akaba ari inyubako iri mu gipangu cyayo, ikaba iherereye mu Karere ka Kicukiro mu Kagarama aho akaba ari mujyi wa Kigali ikaba iri kuri miriyoni ijana na mirongo itanu.

Ngiki icyo amadorari magana atanu mirongo itanu yaguha i Kigali ku kwezi muri Kabeza, inzu irimo ibikonjeshwa, injerekani.

Ngiki icyo amadorari magana atanu mirongo itanu y' abanyamerika, yakubonera ku kwezi i kigali. Inzu irimo intebe nziza z'icyatsi, imeza y'umweru, igezweho.

Inyubako iri mu bwoko bwa etaje, iri mu mujyi wa Kigali, ikaba ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu ku kwezi, ikaba igeretse kenshi.

Inyubako ikodeshwa iri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali umurenge wa Kanombe, akaba ari inyubako ifite ibyumba bine ubwogero butatu ndetse ikaba ikodeshwa ibihumbi maganatatu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu ikodeshwa icyumba kimwe, ubwogero bumwe, ikaba ihagaze angana n'ibihumbi magana abiri by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi kumwe, Kigali Kacyiru.

Iyo nzu irakodeshwa ibihumbi magana atatu, igaragara hanze hayo haparitse moto, ikaba iteye amarange atandukanye umweru, ubururu bwijimye.

Inzu nziza yubatswe iri mu bwoko bwa cadasiteri, akaba ari inzu nshya, iherereye Kanombe ikaba iri ku giciro cya miliyoni ijana mirongo itanu, ikaba ifite ibyumba bitanu ndetse n'ubwogero bune ikaba iri kuri sikweya mita magana na mirongo itanu.

Inzu y'ubwisungane gusa hariho abakozi ba emutiyene n'abakiriya baje kugana ikigo cy'ubwisungane cyitwa buritamu, kiri mu nyubako isa n'iyubakishije amabati n'ibirahuri.

Inzu ikodeshwa i Kigali Kanombe ifite ibyumba bine, ubwogero butatu ku bihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi ni inzu.

Inyubako nini iri mu bwoko bwa kadasitere, iherereye Kanombe Kigali, ikaba izengurutswe n'amatafari ahiye, ikaba igurishwa miliyoni mirongo inani n'eshanu, iri kuri kilometero kare magana atatu na mirongo ine.

Inyubako iri mu mujyi wa Kigali umurenge wa Kimironko, inyubako igurishwa iri mu bwoko bwa kadsiteri iri mu gipangu cyayo, iri ku giciro cya miriyoni mirongo icyenda neshanu ariko gishobora kumvikanwaho.

Inzu ikodeshwa, Kigali, Kimironko, ibyumba bibiri, ubwogero bubiri, ikaba ihagaze ingana n'ibihumbi magana ane by'amafaranga y'u Rwanda, ku kwezi kumwe.

Inyubako izengurutswe cyangwa se ikikijwe n'igipangu cy'amatafari ahiye, akaba ari inyubako iri mu bwoko bwa kadasiteri ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri.

Kibagabaga inzu yuzuye ikodeshwa, ageze mu bihumbi bitatu by'amadorari ku kwezi kumwe gusa, ni inzu ifite ubusitani mbere bwiza bunini.

Igiciro ni miliyoni ijana na mirongo itatu by'amafaranga y'u Rwanda, ku nzu nziza isize amabara, umweru. icyatsi, umuhondo, umukara.

Umusore wunamye wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu ahagaragara nk'aho ari isoko abantu bahahiramo ari benshi yegeranye n'umwana uri gukinisha.

Abantu benshi bari mu isoko, aho bahahuriye baje guhaha ibintu byinshi bitandukanye, aho muri iryo soko harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye nk'amasakoshi nkuko bigaragara ndetse n'ibindi byinshi.

Inyubako iri mu bwoko bwa etaje, aho icuruzwamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, higanjemo imyambaro, aho mu bice byose bigize iyo nyubako hacururizwamo imyenda yo kwambara ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umugabo n'umudamu bari mu nama, aho bari kuganira ku ngingo zimwe na zimwe, aho imbere yabo hari mikoro, byumvikana ko bari kuganiza abandi bantu ku ngingo zimwe na zimwe.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ku meza iriho udupapuro dukataguye mu buryo bungana, ikiganza ku nzara gisize.

Abantu bicaye hanze harimo abana, abagore begereye inzu iteye amarange umuhondo, umweru isakaje amabati y'ubururu, yegeranye n'ikigega bavomeramo amazi.

Umurongo wicayeho, abantu batandukanye, abana, abagabo, abakecuru ndetse n'umuma wambaye imyenda y'igitenge, yafashe akana mu ntoki.

Inyubako ndende yo mu bwoko bwa etaje, aho ku nyubako yayo yo hasi habanza hakorerwamo Simba, akaba ari arimantasiyo cyangwa se iduka rinini ryo mu bwoko bwa supamaketi, akaba ikorerwamo n'iryo duka rya Simba.

Iduka ricuruza ibyo kunywa byinshi, bipanze neza ku buryo ku ruhande rw'ibumoso n'iburyo bigaragara mu mabara atandukanye ndetse no hagati hakaba.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo arimo aseka, ateruye ibintu mu iduka, inyuma ye hari urimo amufotora, wambaye ingofero.

Umudamu uriku kugenda muduka ahaha n'amaduka manini ari mu bwoko bwa supamaketi, akaba yari ari kureba igicuruzwa ashaka kugura ibyingenzi akeneye kuri iki gicuruzwa.

Iduka rinini ricururizwamo ibintu by'amafarini bigaragazwa mu birahure biteretse imbere ndetse n'inyuma y'aho umukobwa ahagaze.

Iduka rinini rya simba riherereye Sonatube, akaba ari iduka riri ku nyubako yo hasi aho ricururizwamo ibiribwa byinshi bitandukanye ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, rikaba riherereye Kicukiro.

Iduka riri mu bwoko bw'amaduka agezweho ayo twita supamaketi. Ririmo ibyo kunywa, ibyo kurya n'ibiciro byabyo.

Umumama urimo ahaha ibyo kurya asunika akagare bahahiramo, yambaye ikanzu ndende igera ku birenge, afite umusatsi udasutse.